Umuntu yamwenyuye cyane yambaye agapirara gasa umweru n'ishati isa umukara n'isaha, impande yiwe harasa umweru handikishije inyuguti zisa umukara, ruguru ye hasa umutuku hndikishije mu nyuguti zisa umweru, hirya yiwe hari urukuta rusa ubururu, hasi hasa umweru.

Umukobwa uri kumwenyura cyane, yicaye mu modoka isa umukara, imbere ye hari inyuguti zakishije umweru ni'cyatsi, hejuru ye hari akapa gasa icyatsi, karimo ibara risa umweru hirya y'iwe hariho n'izindi modoka ziri kugenda.

Abantu babiri bari gusuhuzanya bishimye umwe yambaye umupira usa move undi yambaye ikoti risa umweru, hirya yabo hari urukuta rusa umutuku rw'ikizeru hakurya yaho hari urusu umwe rwandikishayuguti zisa ubururu, hasi hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Imodoka isa umukara iteretse mu rumodoka rusa umweru imbere hari icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa ubururu hasi hari ikindi cyapa gisa ubururu cyandikishije mu nyuguti zisaumweru hejuru hari ibicu bisa umweru n'ubururu biragaragara ko ari ku manywa.

Umuntu wambaye imyenda isa umukara afite ubwanwa busa umweru, inyuma yiwe hasa ubururu, handikishije mu nyuguti zisa ubururu, hejuru hari handikishije mu nyuguti zisa umweru, harasa n'umuhondo, hasi hasa umweru.

Icyapa gisi umukara gifite ibara risa ubururu n'umukara cyandikishije mu nyuguti zisa umweru. Inyuma yaho hari inyubako nziza cyane ifite irange risa ikigina n'umuhondo, ifite amadirishya asa umukara. Hasi hari ibyatsi byiza cyane bisa icyatsi.

Icyapa gisa shokora, cyandikisheje mu nyuguti zisa umweru, harimo akapa gatoya gasa umutuku kandikishije mu nyuguti zisa umweru. Ibyuma bigifashe bisa umukara, hasi hari ibyatsi byinshi cyane bisa icyatsi, hejuru hariho ibicu bisa umweru n'ubururu, hasi harasa umweru n'umukara, biragaragara ko ari ku manywa.

Umuntu uri kumwenyura cyane yambaye umupira usa umuhondo n'ijiri isa umukara, inyuma ye hari icyapa gisa ubururu cyandikishije inyuguti zisa umweru. Inyuma y'icyo cyapa hari imbuto zitandukanye hari amaronji, imineke, ibitunguru, inyanya, karoti, indimu, imiteja.

Umukobwa wambaye ipantaro isa umukara n'ishati isa umweru, afite n'imisatsi isa umukara, afite telefone isa umukara, imbere ye hari amakaro asa umweruru, hakurya y'iwe hari inyubako isize irangi risa umwe, imbere ye hari icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa ubururu n'umweru, n'umukara.

Icyapa gisa umutuku cyandikishije mu nyuguti zisa umweru hariho umuntu wambaye lineti zisa umukara yambaye n'ingofero isa umutuku handikishijeho inyuguti zisa umweru hariho ibyuma bisa umukara inyuma yaho hari ibicu bisa umweru n'ubururu hasi hari ibyatsi bisa icyatsi n'ibiti bisa icyatsi biragaragara ko ari ku kumanywa.

Abantu babiri bari gusuhuzanya bamwenyuye cyane, bambaye ishati isa umweru n'ikoti risa umukara, hirya yabo hari umugore wicaye mu ntebe isa mweru, afite n'imisatsi isa umukara yambaye n'ishati isa umukara, hirya yabo hari urukuta rusa umweru, imbere y'aba bantu hari inyuguti zandikishije umutuku n'umweru.

Umugabo ari kumwenyura cyane yicaye ku ntebe zisa umweru, yambaye umupira usa icyatsi n'ipantaro isa umukara, inyuma yiwe hari ibyuma bisa umukara n'akapa gasa umweru. Imbere yiwe hari n'ururabyo rwiza cyane rusa icyatsi, hariho n'ahandikishije inyuguti zisa umweru.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imyenda isa umutuku, umweru, umukara, hirya hari n'akabati gasa shokora handikishijeho inyuguti zisa umutuku, hasi hari n'amakaro asa shokora, hirya hari n'ibikuta bisa umweru.

Umugore ari kumwenyura cyane wambaye igitenge kirimo ibara risa umuhondo, umutuku n'umweru asutse imisatsi isa umukara, imbere ye hari ameza asa umweru, afashe ikaramu mu ntoki hateretseho na mudasobwa. Hirya ye hari ibitenge bitandukanye ibisa umutuku, ibisa icyatsi, ibisa ubururu, hasi hariho n'amakaro asa umweru n'urugi rusa umweru.

Ibiringa bitandukanye, harimo ibisa umutuku, umuhondo, umweru, ubururu, bimanitse ku kantu gasa shokora, inyuma yaho hari urukuta rusa umweru, hasi hasa umweru no hejuru hagasa umweru.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye; ifu y'igikoma, umuceri, ibirayi, amavuta, ibitunguru, udufuka, magi, umunyu, umuceri, amakaroni, n'inyanya. Hahagaze umugore wambaye imyenda isa umutuku n'ubururu n'icyatsi.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amata, amavuta, amakaramu, umuceri, inyanya, umunyu, ibitunguru, pavuro, hahagazeho umugore uri kumwenyura cyane wishimye yambaye akantu mu ijosi gasa umukara.

Abantu babiri bari kumwenyura imbere yabo hari ameza asa umweru ateretseho mudasobwa n'akaboni n'imyenda hari umugabo wambaye umupira usa umweruru n'umugore wambaye ikanzu isa icyatsi, biragaragara ko ari kumehereza telefone ngo yandikemo nimero amwishyure wenda yari aguze imyenda.

Imyenda itandukanye icuruzwa, ikanzu isa umutuku, ipantaro isa umukara n'agapira k'umweru n'indi kanzu isa umutuku n'indi kanzu isa umweru, hirya hari icyapa gisa umweru, cyandikishije mu nyuguti zisa umukara n'umweru, hirya hariho n'indi myenda.

Isoko ririmo imyenda itandukanye amapantaro, amakoti, imipira; hasi hariho amakaro asa umweruru, hejuru harimo purafo zisa umweru n'amatara; hirya y'aho hariho n'imitako isa umuhondo, move n'umukara.

Amaherena atondetse kumurongo afite amabara atandukanye umuhondo umweru umukara ubururu hirya yaho hariho nibindi bishushanyo byiza cyane bifite umukara umweru n'ubururu hakurya ni urukuta rusa ubururu.

Umwenda w'igitaka uparitseho imodoka isa umweru, ifite amatara asi umutuku n'amapine asa umukara, ruguru hari izindi modoka zisa umukara n'umweru n'inyubako nziza cyane ifite irangi risa umweru, n'amadirishya asa umukara, hirya y'aho hari ibicu bisa umweru byibasiyemo izuba biragaragara ko ari ku manwa.

Abantu babiri bishimye cyane umwe yambaye imyenda isa umutuku n'umukara, undi yambaye ishati iciyemo uturongo dusa umwe n'umukara, yambaye n'isaha biragaragara ko afite nk'ibintu ari kwefreka uyu muntu muri telefone, hirya yiwe hari igicu cyijimye wagira ngo burije.

Umuhanda usumukarushe umurongo usa umuhondo uparitse n'imodoka isa umukara, hakurya hari ibiti bisa icyatsi n'ibyuma bisa umukara hejuru hariho ibicu bisa ubururu n'umweru biragaragara ko ari ku manywa, hariho icyapa gisa icyatsi cyarishe inyuguti zisa umweru n'igisa umutuku cyarikishe inyuguti zisa umweru.

Imodoka iparitse isa umweru n'umukara ifite amatara asa umutuku, hejuru harasa umweru no hasi harasa umweru, iparitse ku makaro asa umweru, hirya yaho hariho n'indi modoka isa umukara n'umweru, ifite n'amapine asa umukara.

Abantu babiri bafashe akapa gasa umweru kandikishije mu nyuguti zisa umukara n'umutuku, umwe yambaye ishati isa umweru n'ipantara isa ubururu, n'inkweto zisa umukara, undi yambaye inkweto zisa shokora n'ipantaro yijimye, n'ishati irimo amabara y'umweruru n'icyatsi. Hirya yabo hari imodoka isa umukara, n'inzu ifite irangi risa umuhondo, hejuru hari akapa kandikishije mu nyuguti zisa umukara.

Imodoka isa umukara, iparitse ku makaro asa umweru, inyuma yaho hari urukuta rusa umweru, hariho n'icyapa gisa ubururu, hirya hateretseho iradiyo isa umukara, hirya yaho hariho n'ahantu hasa umutuku.

Abantu batatu bahagaze, bafite akapa gasa umweru, kandikishijeho inyuguti zisa umutuku n'umukara. Hagati hari umugabo wambaye akajire gasa icyatsi, hirya ye hari umugabo wambaye umupira usa umutuku, ruguru hari na ho umugabo wambaye umupira usa umweru n'inkweto zisa umukara n'ipantaro isa ubururu, inyuma yabo hari imodoka ziparitse zisa umukara n'umweru. Hakurya hariho n'umutaka usa umweru.

Imodoka zitandukanye z'umukara ziparitse ku makaro asa umweru; inyuma yazo hari urukuta rusa umweru; hejuru hari parafo zisa umweru n'amatara asa umweru; biragaragara ko hano hantu ariho bagurishiriza imodoka.

Imodoka iparitse ku muhanda usa shokora, imbere hariho akapa gasa umweru kandikishije mu nyuguti zisa umweru, hejuru hari icyapa gisa ubururu, icyatsi n'umutuku handikishijeho inyuguti zisa umweru, hakurya hari inyubako nziza cyane isize irange risha umukara n'umweru n'ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda usa umukara uparitseho imodoka isa umukara n'umweru, inyuma hariho amatara asa umutuku, hakurya hari inyubako nziza cyane, ifite irangi risa umweru y'ubakishije amatafari asa shokora, impande yaho hari ibyatsi byiza cyane bisa icyatsi.

Imodoka zisa umukara ziparitse ku muhanda usa shokora, inyuma hari urukuta rwubakishije amatafari asa umweru n'umukara, hejuru yayo matafari hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, hirya hariho n'ibati risa ubururu.

Ikimodoka giparitse ku muhanda w'igitaka gifite ibara risa umuhondo n'umweru n'umukara, hakurya hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, hariho n'ipoto rifite insinga zisa umukara zijyana umuriro hirya no hino hatandukanye.

Abantu babiri bamwenyuye cyane, bafite akapa mu ntoki gasa umweru kandikishije mu nyuguti zisa umukara n'umutuku. Umwe yambaye ishati isa umweru n'ipantaro isa umukara n'inkweto z'umweru n'undi yambaye ishati icyemo uturungu dusa umweru n'umukara n'ipantaro isa shokora n'inkweto zisa umukara, bahagaze ku modoka isa umukara.

Umuhanda w'igitaka uparitsemo imodoka isa umweru, ifite n'amapine asa umukara, imbere y'iyo modoka yandidishijeho inyuguti isa ubururu, inyuma yaho hari n'indi modoka isa umweru, hejuru hari icyuma gisa umukara cyubakiye iyi modoka.

Umugabo wambaye agapfukamuwa k'umukara n'umupira usa n'umweru, afashe akantu mu intoki gasa umweru yambaye n'ipantaro isa umukara, ahagaze ku modoka isa umukara n'umweru, hasi hari amabuye asa shokora, hirya hariho n'indi modoka isa umukara, imbere y'iyo modoka hari akapa agasa umweru kandikishije mu inyuguti z'umukara, inyuma hari urukuta r'umweru n'ahandi hari hasa ubururu.

Ameza asa umweru, ku mpande harasa umweru, imbere hari icyapa gisa icyasi cyandikishije mu nyuguti zisa umweru; ku meza hateretseho mudasobwa na telefoni, n'impapuro n'ikindi kintu kimeze nka gatelefoni baterefonesha. Imbere hariho umumotari uri mu mutaka usa umutuku n'amakaro asa umweru.

Akabido gasa umweru karimo amata, kariho akapa gasa umweru kandikishije mu nyuguti zisa umukara, gateretse ku meza yijimye. Hirya yaho hahagaze umuntu wambaye imyenda y'ubururu, n'undi wambaye ipantaro isa umukara n'inkweto zisa umukara, hasi hariho amakaro yijimye.

Abantu batatu bahagaze umwe yambaye umupira usa umutuku n'agashati gasa umutuku, afite n'imisatsi isa umukara n'ingofero isa umukara. Bafashe utuguni mu ntoki dusa umutuku turimo amata, bahagaze ku makaro asa umweru, inyuma yabo harihomo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Ameza asa ubururu ateretseho amateremusi asa shokora n'umweru n'umukara hateretseho n'indobo irimo ibiribwa imbere yaho hari icyuma gisa umweru n'ubururu hasi hariho amakaro asa umweru hakurya hari urukuta rwijimye.

Isahani isaumweru, iriho isambusa zikozwe mu birarayi no mu nyama, zifite ibara risa umuhondo, hiri hejuru harasa umweru no hasi harasa umweru.

Abantu batandukanye bahagaze ku makaro asa umweru inyuma yabo hari ukuta rusa ubururu hateretseho amazi, hakurya hari n'ingunguru iri kuvamo amata, hateretse ivido isa umweru, hari umukobwa uhagaze ku kabogisi gasa ubururu.

Isahani isa umweru iriho amandazi asa umuhondo na shokora, ateretse ku meza asa umweru. Ni umuntu yafashe amaze kuyateka, biragaragara ko ari nko kwamamaza amandazi bakora.

Umukobwa uri kumwenyura cyane, afite imisatsi isa umukara yambaye ishati isa umweru, imbere yiwe hari akantu ko ari gukandaraho gasa umweru, biragaragara ko ashaka kwinjira ngo ajye kwaka serivisi za Eyateri, hejuru hari icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa umukara n'umweru n'umutuku, hejuru harasa umweru no hasi harasa umweru.

Umukobwa uri kumwenyura cyane afite terefone mu ntoki, yambaye isenge isa umukara afite n'imisatsi y'umukara, yambaye n'ipantaro isa ubururu, inyuma ye hari umuhungu wambaye ingofero isa umweru na rinete zisa umukara n'umupizi usa umukara, na we afite terefone mu ntoki. Inyuma yaho hari icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa ubururu n'imbere yabo hari icyapa gisa umweru cyanyandikishije mu nyuguti zisa umuhondo n'ubururu.

Umuntu wamwenyuye cyane afite telefone mu ntoki, yambaye amadarubindi y'umukara; afite n'imisatsi y'umukara, yambaye ishati y'umweru, yambaye n'isaha isa umukara, inyuma yiwe hari urukuta rusa umuhondo n'umweru handikishi muyuguti zisa ubururu, n'imbere yiwe hari icyapa gisa umweruru cyancisha mu nyuguti zisa ubururu n'umuhondo.

Abantu batandukanye, hariho umugabo wambaye agapira gasa ubururu n'umuhondo, afashe terefone mu ntoki, undi na we yambaye ingofero isa umweru n'umuhondo, na we afashe terefone mu ntoki. Hirya yabo hari abantu babiri bambaye amakoti asa umukara n'ubururu, hirya hari sikariye zisa shokora, hasi hari n'amakaro asa umweru.

Inzu isize irangi risa ubururu n'umuhondo n'umweru; hasi hari amakaro asa umweru; hejuru hari icyapa gisa umweru, cyandikishije inyuguti zisa umutuku; mu imbere hari akabati gateretseho kopiyuta gasa shokora.

Intebe zisa umukara n'umweru, hasi hariho amakaro asa umweru, hirya hariho urukuta rusa shokora hahagaze abantu batatu umugore wambaye imyenda yicyatsi n'umuhondo n'umugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati isa icyatsi, hejuru yabo hari icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa umukara n'ubururu n'umweru. Biragaragara ko baje nko kuhafatira serivisi.

Abantu batandukanye batonze umurongo bahagaze ku makaro asa umweru imbere yabo hari urukuta rusa umweru, hejuru hari icyapa gisa umukara cyandikisha inyuguti zisa umweru n'umuhondo, hejuru hariho na purafo zisa umweru, biragaragara y'uko bagiye nko kwinjira ngo babasake abasekirite.

Inyubako nziza cyane ifite ibyuma bisa umukara n'amadirishya asa umweru, hasi hari icyapa gisa ubururu, umuhondo, cyandikishije muyuguti zisa umutuku, umukara n'umweru, hasi hahagazeho umuntu uri kwinjira, biragaragara ko ari nk'iduka bahahiramo ibicuruzwa bitandukanye.

Inyubako nziza cyane irimo ibintu bitandukanye intebe zisa umukara n'amarangi asizeho asa umweru, hasi hariho amakaro asa shokora, hirya hariho n'ibyuma bihatangirije bisa umukara, hariho n'amabogisi asa umweru.

Inyubako nziza ifite irangi risa umuhondo n'umweru hari icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa ubururu, umukara n'icyatsi. Hasi hariho amakaro asa umweru n'ikindi cyapa gisi umukara cyandikishijeho mu nyuguti zisa umweru hasi hari n'ikindi cyapa gisa umutuku n'umweru cyandikishije mu nyuguti zisa umukara.

Intebe zo kwegamirwaho zisa shokora imbere hari akameza gasa umweru gafite utwuma hasi dusa umukara, hasi hari amakaro asa umweru na shokora, hakurya hari inkuta zisa umweru n'amarido asa umweru n'umukara, hateretseho ururabyo rwiza cyane rusa icyatsi.

Intebe zegamirwa zisa umweru n'umukara, aho ziteretse hariho amakaro asa shokora n'umweru, hirya yaho hari urukuta rusa umweru n'indi ntebe isa umutuku.

Ibyatsi bisa icyatsi, imbere hariho umutaka usa umuhondo hicayemo abantu, ku meza hariho igitambaro gisa umweru n'umutuku, imbere hari inyubako nziza cyane yubakishije amabuye asa umuhondo n'umukara, ifite n'irange risa umweru, ifite n'amakaro asa umweru.

Intebe zisa shokora, imbere hariho ameza asa umweru, hakurya hari inzu isize irange risa umweru ariko hakabamo amatara asa umuhondo, itangijwe n'ibiti bisa icyatsi n'amakaro hasi asa umweru.

Amazi asa ubururu biragaragara ko ari ahantu ho bogera, imbere hari inyubako nziza cyane ifite irangi risa umukara, hejuru handikishije inyuguti zisa umweru, imbere hariho n'intebe nziza cyane zisa umweru, hasi y'izi ntebe hariho amakaro asa shokora, hirya hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, n'inyubako nyinshi.

Umutaka usa mweruru munsi y'umutaka hari intebe zisa umukara meza asa umutuku hirya hari inyubako nini cyane isize irangi risa n' umweru n'umukara hasi hari ibyatsi byiza cyane bisa icyatsi hejuru hari ibicu bisa ubururu n'umweru biragaragara ko ari ku manywa.

Inyubako nini cyane isize irangi risa umutuku n'umuhondo n'umweru, ifite ibyuma bisa umweru n'umuhondo, hasi hari umuhanda usa shokora, utangijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, hirya hari indabyo nziza cyane zisa umukara, umuhondo n'icyatsi.

Intebe zisa shokora n'umukara ziteretse ku makaro asa umweru, imbere hari ameza asa umukara na shokora, atetseho ibikombe bisa umweru birimo amabara umutuku, umuhondo, icyatsi, ubururu, imbere yaho hari akabati gasa shokora n'umuhondo.

Ubusitani bwiza cyane busa icyatsi hirya y'ubusitani hari umuhanda usa shokora, hirya no hino yu'busitani hariho n'akantu kubatse kandiikishije mu nyuguti zisa umutuku n'umweru, iyaka kantu kubatse hariho n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi hiryaho hari n' inyubako nziza cyane ifite ibara ri'mweru n'umuhondo.

Intebe zisa umukara n'icyatsi hagati harimo ameza asa umweru, hirya hari urukuta rusize irangi risa umweru n'ibishushanyo bisa umukara n'umuhondo, hasi hariho amakaro asa shokora, hakurya hari icyapa gisa umukara cyandikishijeho inyuguti isa ubururu hasi hariho n'ibara risa umweru.

Inyubako nziza cyane ifite irangi risa umweru, hasi hari irangi risa umutuku, ifite inzugi zisa ubururu hagiye handikishijeho inyuguti zisa umweru, mo imbere hariho ibikuta bisa umweru.

Inzu isize irangi risa umuhondo, n'umukara, n'umweru imbere hari icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa icyatsi n'ubururu, hirya hari n'igiti kinini cyane gisa icyatsi.

Intebe zisa umukara, imbere yaho hari ameza asasheho igitambaro gisa umutuku n'inkuta zisa umweru n'umutuku, na parafo isa umweru n'amakaro asa umweru ariho tapi isa umutuku.

Umuhanda usa umukara uciyemo uturongo dusa umweru, utangijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, hakurya hari inyubako isize irangi risa umweru n'umukara ifite amabati asa umweru, hasi hari ibiti bisa icyatsi n'amatara yo ku muhanda.

Abantu batandukanye imbere yabo hari ameza ariho igitambaro gisa umuhondo, hejuru y'ameza hariho amakaye, hirya y'ameza hariho intebe isa umweru n'umuhondo, hasi hariho tapi isa icyatsi. Hirya hari umukobwa wambaye umupira usa umweru biragaragara ko afite nk'amakuru ari kubabwira.

Icyapa gisi ubururu cyandikishejeho inyuguti zisa umweru n'umukara, mu imbere harimo nk'igikombe gisa umweru cyandikishaho inyuguti zisa umukara n'umutuku, hasi harasa umweru no hejuru harasa umweru.

Abantu babiri bamwenyuye bishimye cyane bafite akapa gasa umweruru, kandikishije inyuguti zisa umukara hejuru hariho n'ahandi hasa ubururu, umwe yambaye umupira usa iroza n'undi yambaye umupira usa orange bishimye cyane, inyuma yabo hari urukuta rusa umweru n'inyuguti zandikishije umutuku n'imbere yabo hari akapa kandikishije mu inyuguti zisa umweru, n'umukara n'umutuku.

Umuntu uri kumwenyura cyane yiteze igitambaro cyijimye, yambaye ikoti risa ubururu n'ipantaro isa ubururu, n;agapira gasa ubururu, imbere ye hari icyapa gisa umweru cyandikishijwe mu nyuguti zisa umweru. Hirya y'aho hari iyindi nyuguti yandikishijwe umukara hari n'ikimodoka gisa umukara, hirya hari ibyatsi byinshi cyane bisa umweru n'ibicu bisa ubururu n'umweru, biragaragara ko ari ku manywa.

Umukobwa urikumwenyura ufite imisatsi y'umukara, yambaye ikanzu isa umukara n'umukandara usa umukara, afite mudasobwa mu ntoki isa umukara, inyuma ye hari icyapa gisa ubururu cyandikishije mu nyuguti zisa ubururu, n'umweru, n'icyatsi. Inyuma yiwe hari umwana urikumwenyura cyane ufite imisatsi isa umukara, afite terefone, yambaye n'agapira gasa ubururu.

Icyapa gisa ubururu cyandikishije mu nyuguti zisa umweru n'umukara, harimo akantu kameze nk'agakombe gasa umweruru, karikisha inyuguti zisa umutuku n'umuhondo n'umukara n'umweru, hasi harasa umweru, no hejuru y'iki cyapa harasa umweru.

Abantu babiri bahuje urugwiro bari guhoberana ,umwe yambaye ikoti risa ubururu ,n'ishati isa umweru ,undi yambaye ikanzu isa umweru n'imisatsi isa umweru n'amaherena asa shokora, imbere yabo hari icyapa gisi umweru cyandikisha mu nyuguti zisa umweru ,hejuru hari inyuguti zadikishije mw' ibara risa umweru hirya harasa ubururu ,hano hantu wagirango ninkahabantu bakorera ubukwe.

Inyubako nziza cyane ifite irange risa umuhondo, ifite n'amadirishya asa ubururu itangijwe n'ibyuma bisa umweru, hejuru y'inyubako hari ibicu bisa umweru n'ubururu, hasi hari ibyuma bitangirije inyubako bisa umweru, biragaragara ko ari ku manywa.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, karoti, imineke, amaronji, voka, imyembe, puwalo, puwavuro, ibishyimbo, ibirayi, imyembe, n'abantu benshi batandukanye baje guhaha. Hejuru hari ibyuma bisa umukara n'umweru.

Umuhanda w'igitaka uteyeho ibyatsi bisa icyatsi, imbere hari inyubako, ifite ibyuma bisa umutuku n'amabati asa umutuku n'amatara, hepfo yaho hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibitunguru, harimo intoryi, harimo imineke, harimo imboga, harimo ibitoki, harimo ibijumba, harimo ibirayi, harimo abantu benshi batandukanye, hejuru kuri iri soko hariho ibyuma bisa umweru, hasi hari abagore n'abagabo.

Isoko ririmo ibicuzwaa bitandukanye, ibirayi, amateke, ibijumba. Hahagazeho umugabo ufite agafuka gasa umweru yambaye ikoti risa ikigina n'agapira gasa umweru n'ipantaro isa umukara ari guhaharya, hicayeho n'umugore witeze agatamba bagasa umutuku yiteze agatambaro gasa move, imbere yabo hari inyubako isize irangi risa umweru n'umuhondo.

Umuhanda w'igitaka uri kugenda aho imodoka isa umukara n'umweru, hakurya hari inyubako nini cyane ifite amabati asa umutuku, imbere hahagaze abantu bafashe urugero rusa umweru hiryareho n'indi modoka.

Abantu babiri bishimye cyane bari guseka umwe yambaye ikanzu irimo amabara asa umweru n'ubururu n'umukara n'undi yambaye umukara n'umweru afite n'agakapu gasa umuhondo ari kumuhereza nk'agapapuro inyuma yabo hari ibicuruzwa bitandukanye imiteja, karoti, imboga, inyanya, ibitunguru n'imiceri hahagaze n'umugabo wambaye umupira usa ubururu n'ipantaro isa umutuku.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo puwalo, harimo karoti, harimo intoryi, harimo imiteja, harimo bomba, harimo wotameloni, harimo ibirayi, hicayemo abantu batandukanye bari gucuruza, hari umwana wicaye imbere wambaye agapira gasa umuhondo n'ipantaro irimo ibara isa umukara n'umutuku.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, inyanya, pavuro, karoti, imiteja, amashu, imineke, amadegedi, kokombure, amavuta, amakaroni, imyenda. Hicayemo umugore wambaye imyenda isa umutuku. Biragaragara ko ari we ari kuhacururiza.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, hasi hari amakaro asa umweru, harimo imyenda isa umutuku, umuhondo, umweru, icyatsi, hahagazeho umugabo wambaye ipantaro isa umukara n'ingweto zisa umukara, n'umupira w'umweru, hirya ye hari umuhungu ufite imisatsi isa umukara, n'umukobwa ufite imisatsi isa shokora.

Inyubako nini cyane isize irangi risa umuhondo n'umweru, ifite amadirishya n'inzugi bisa umukara, imbere yaho hariho umuhanda usa shokora, haparitseho ikimodoka gisa umweru n'umukara, inyuma gifiteho igipine, hahagaze n'abantu bambaye imyenda isa umuhondo n'umweru, ruguru yaho hari ibiti byinshi cyane bisa umuhondo.

Umuhanda usa umukara ruguru yaho hari akayira k'abanyamaguru, kari kugendamo abantu benshi batandukanye, haparitseho n'imodoka zisa umukara n'umweru, hakurya hari ikizu cyubakishije amabati asa umutuku, gifite n'ibyuma bisa umukara n'ubururu.

Ibicuruzwa bitandukanye, inkoni bakoresha mu bukwe, ibyansi, ibiseke, imiringa n'inkweto, hicaye umugabo wambaye imyenda isa umukara, iciyeho uturongo dusa umweru, hakurya hariho n'abandi bantu baje gufata ibishyingirwa.

Ibitenge bifite amabara atandukanye umweru, umutuku, umuhondo, ubururu hasi hariho n'imipira isa umweru, n'ubururu, n'umukara, n'umweru biragaragara ko ariho bacururiza imyenda.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo inyanya, harimo karoti, harimo imiteja, hari indobo, hari magi, hari pavuro, hari puwaro, hari ibitunguru, hateretseho n'icyesi ririmo amavide risa ubururu, hahagaze umugore wambaye umupira w'umweru witeze agatambaro mu mutwe nu wambaye umupira usa umutuku.

Abantu benshi batandukanye bambaye imyenda isa umutuku n'umukara, bafashe imitaka isa umuhondo, umweru, ubururu, umukara, biragaragara ko hano ari mu isoko ry'imyenda, hirya hari ipoto risa umukara rijyana insinga hirya no hino, hirya hari n'inzu isa icyatsi ifite amabati asa umukara.

Umuhanda w'igitaka uparitseho imodoka nyinshi n'abagenzi bari kugenda na moto, haparitsemo ikimodoka gisa ubururu n'umweru n'igisa ubururu hirya hari amapoto afite insinga zijyana umuriro hirya no hino, hakurya hari inyubako nziza cyane isize irangi risa umweru ifite amabati asa umukara.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye amaronji, imineke ibitunguru, ibijumba, imyumbati, amateke hahagazeho abantu babiri bari guhaha umwe yambaye itaburiya irimo umutuku n'umweru n'agapira gasa umutuku n'undi mugabo wambaye umupira w'umuhondo ari guha umukiriya icyo ashaka.

Akapa gasa umuhondo, kandikishijeho nyuguti zisa umukara n'ubururu, gateretse ku meza asa umweru, hirya y'aho hasa umuhondo n'umweru n'umutuku, biragaragara yuko kano kapa ibintu byanditseho ari ibyo kwishyuraho ku bijyanye na serivisi za MTN.

Abantu babiri umwe yambaye umupira usa umuhondo handikishijeho inyuguti zisa umukara yambaye ni pantaro isa ubururu ,undi yambaye umupira usa icyatsi yandikisha inyuguti zisa umweru, yambaye n'ipantaro yijimye, inyuma yabo hari akazu gasa umuhondo, kandikishijeho inyuguti zisa umweru n'umukara, kano kazu bagacururizamo ama inite biragaragara ko uyu muntu yaraje kugura nk'amainite cyangwa ngo abikure.

Abantu babiri batandukanye umwe yambaye umupira usa umugondo n'ipantaro y'umukara, n'undi yambaye imyenda isa umukara n'umweru, afashe telefoni biragaragara ko hari ikintu yaraguze agiye kumwishyira kuri telefoni, imbere yabo hari akabati karimo amaji n'amata n'ibindi binyobwa bitandukanye.

Abantu benshi batandukanye ab'imbere bari kumwenyura, we yambaye umupira w'umuhondo n'ingofero isa ubururu, yandikishijeho inyuguti isa ubururu, undi afashe terefone yambaye umupira usa umutuku afashe amvelope isa shokora bishimye cyane, inyuma yabo hari ibiti bisa icyatsi n'amatara yo ku muhanda.

Akazu gasa umutuku kandikishijeho inyuguti zisa umweru. Kano kazu bagatangiramo amainite ya eyateri. Inyuma yaho hari imitaka isa umweru n'umutuku, n'ibyuma bihatangije bisa umukara. Hakurya hari ibyari ibyatsi byiza cyane bisa icyatsi n'inyubako nziza isize amarangi asa umweru. Hejuru hasa umukara, no hasi hagasa umukara.

Abantu batandukanye hejuru hariho umutaka usa umuhondo, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro gisa umuhondo, hano biragaragara yuko hari gukorerwa ibijyanye na mtn, hari umugabo wambaye ingofero isa umuhondo n'umupira usa umweru, n'undi wambaye umupira usa umuhondo n'ingofero isa umuhondo.

Akazu gasa umuhondo mo imbere gasa umweru, imbere y'aka kazu kadikisha inyuguti z'umukara, hahagazemo umuntu, n'imbere ye hariho abantu, kano kazu biragaragara ko bagatangiramo amayinite bakanababikurira, hejuru hariho ibara risa umukara, no hasi hasa umukara n'umweru.

abantu bane bahagaze ku kazu gasa umuhondo umukobwa yambaye umupira wumutuku n'jipo yumukara nundi yambaye ishati isa umutuku n'ijipo yumukara afashe terefone mu ntoki ahagaze imbere y'akazu biragaragara yuko aje kubikura cyangwa kohereza amainite.

Abantu benshi batandukanye hejuru hari umutaka usa ubururu wandikishijeho inyuguti zisa umweru hari umugore wambaye ikanzu isa umutuku afashe udukapu twijimye mu ntoki hirya ye hari abantu bambaye imyenda y'umuhondo n'amapantaro asa umukara imbere yabo hari ameza ari igitambaro gisa ubururu hakurya hari urukuta rusa umweru n'indabyo nziza cyane zisa icyatsi.

Ameza asa hejuru umweru hasi asa umukara, ateretseho telefoni, ateretse n'akapa agasa umuhondo kandikishije mu nyuguti zisa umutuku n'umukara, hirya hicaye umugore wambaye ishati isa umweru n'ijipo isa umukara biragaragara ko hano bahakorera ibijyanye na MTN.

Abantu babiri bamwenyuye cyane bambaye imyenda isa umuhondo n'ubururu, imbere yabo hari ameza asa umweru ateretseho utubuni dusa umweru biragaragara ko bakora mu bijyanye na Emutiyeni, inyuma yabo hariho n'icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa umukara.

Umugabo wambaye ishati isa icyatsi n'ipantaro isa shokora n'ingofero isa icyatsi, ahagaze kuri moto iteretseho akabogisi gasa icyatsi kandikishije ho inyuguti zisa umweru. Inyuma ye hari icyapa gisa umutuku kirimo imbere umweru n'ikindi cyapa gisa icyatsi cyandikishije mu nyuguti zisa umukara. Hasi hariho n'umuhanda usa umukara ushoyemo uturongo dusa umweru n'umuhondo.

Icyapa kiriho ibintu bitandukanye, hariho imineke, amaronji, amacunga, wotameroni, amashu, imodoka zigurishwa, amazu agurishwa, amaresitora atandukanye.

Umukobwa wambaye inkweto z'umukara, asize amahina asa umweru, ahagaze ku makaro asa umweru, imbere hari icyapa gisa ubururu cyandikisha mu nyuguti zisa umweru, hirya hari ururabyo rwiza cyane rusa icyatsi, n'ibyuma bisa umukara.

Abantu babiri bamwenyuye cyane umwe yambaye agapira gasa umutuku afite n'imikara isa umukara, n'undi yambaye agapira gasa icyatsi afite n'imisatsi isa umukara. Bafashe akabogisi gasa umutuku kandikisheho mu nyuguti zisa umutuku. Imbere yabo hari akapa gasa ubururu kandikisheho inyuguti zisa umweru.

Umugabo wambaye kasike isa umweru n'umupira usa umukara, imbere ye hari akabogisi gasa umutuku, kandikishije inyuguti zisa umweru, hirya ye hari imodoka isa umweru, ifite amapine asa umukara, hakurya hari inyubako nini cyane isize irange risa umuhondo, ifite n'inzugi zisa umukara.

Moto iteretseho akabogasi gasa icyatsi, kandikishijeho inyuguti zisa umweru, n'umukara, nicyatsi, n'umuhondo. Hahagazeho umugabo, yambaye ishati iciyemo uturongo dusa umweru, ubururu, umutuku. Imbere ye hari umuhanda usa umukara, uri kugendamo abamotari n'imodoka isa umukara.

Akabati gasa shokora, hirya yaho hari akantu k'ameza gasa umweru gateretseho radiyo isa umukara na keto, hirya hari urukuta rufite amakaro asa umweru. Hiryaho yaho hariho n'ahandi hantu batekera, hejuru hari amakaro asa umweru na parafo ya shokora, handikishije mu nyuguti zisa umukara.

Umugabo uri gutambuka, ari kugenda ku makaro asa umweru, yambaye ishati isa umweru, n'umukandara usa umukara, n'ipantaro isa ubururu, imbere ye hari akabati gasa umweru, hasi gasa ubururu, inyuma y'iwe handikishijeho inyuguti zisa umweru. Imbere hariho n'urundi rukuta rusa umwe.

Inzu isize irangi risa umweru n'umukara, hejuru hari itara ririkwaka hejuru hari n'icyapa gisa umweruru inyuguti zisa umukara hariho n'idarapo risa ubururu, icyatsi, umuhondo hasi hari amakaro yijimye hepfo hariho n'urugero rusa shokora.

Umugore yambaye imyenda ifite amabara y'umutuku n'umukara n'umweru, imbere hari intebe zisa umukara n'ameza asa shokora, hirya hahagaze umugabo wambaye ishati isa umweru n'ipantaro isa umukara, imbere ye kumeza hariho akantu kameze nk'isahani isa umweru, inyuma y'iwe hari akabati gasa shokora karimo ibyombo.

Akabati gasa ubururu hejuru hasa umweru, hateretse isahani iriho inanasi, iriho amaronji, iriho ibinyomoro n'indi sahani iteretseho imineke, hirya yaho hari urukuta rusa umweru, hariho n'ahandi hantu hasa umuhondo, hasi hari amakaro asa umweru n'umukara, imbere hari icyapa gisa umuhondo, cyandikishije mu nyuguti zisa ubururu.

Inyubako nziza cyane isize irangi risa umuhondo, icyatsi, umweru, ifite amadirishya asa umukara n'ibyuma bitangirije bisa umukara n'amakaro asa umweru, hasi hariho amabuye asa shokora n'umweru.

Abantu babiri umugore n'umugabo; umugabo yambaye ishati y'umweru nipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, umugore yambaye ikanzu irimo umweru n'umutuku hirya hakaba hari intebe nziza cyane zisa umweru n'izindi ziri hirya yabobo zifite ameza asa shokora n'intebe zisa umukara, hasi hari amakaro asa umweru, imbere yabo hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi.

Akabati gasa umukara gateretseho terefoni imbere yako hari igitanda gishashe neza. Gishashe amashuka asa umutuku n'ubururu hirya hari urugi rusa umukara hanze hari ibyatsi bisa icyatsi hasi hari amakaro asa umweru n'inkuta zisa umweru hejuru harasa umweru handikishije mu nyuguti zisa umukara.

Igipangu gisa umukara mo imbere harimo inzu nziza cyane ifite irangi risa umweru n'umukara n'umuhondo, ifite n'amadirishya asa umukara. Hejuru hari icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa umukara, hariho akarangantego gafite ibara risa ubururu n'umuhondo n'umukara.

Igitanda gishashe amashuka asa umweru, hasi hari amakaro asa umweru, imbere handikishaje akanyuguti gasa umweru, hakurya hari urukuta rusa umweru, rufite amadirishya asa umukara, hejuru hari icyapa gisa umweru cyandikishije inyuguti zisa umukara, hariho n' idarapo rifite ibara risa umukara n'umuhondo n'ubururu, hakurya hariho n'urukuta rwubacishije amatafari asa shokora.

Akabati gasa umweru gateretseho telefoni icagize isa umukara, hejuru hariho amadirishya asa umweru n'urukuta rusa umweru, imbere yabo hari akabati gasa shokora, hasi hari amakaro asa shokora, biragaragara yuko ari mu nzu hariho n'amatara ari kwaka.

Igitanda gisa shokora, gisasheho amashuka asa umweru, arimo uturabyo dusa ubururu n'umweru, hepfo hariho kuvureru isa shokora, hepfo handikishijeho inyuguti zisa umweru n'akantu gasa umutuku, hejuru hariho urukuta rusa umweru, hariho icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa umukara.

Umugabo wambaye ingofero isa umweruru, n'ishati iciyemo uturongo dusa umukara n'umweru, n'agapfukamunwa gasa umukara. Imbere ye hari akapa agasa umweru, kandidikishije mu nyuguti zisa umutuku. Inyuma y'iwe hari ibitsinga bisa umukara, n'ibicu biri hejuru bisa umweru n'ubururu. Biragaragara ko ari ku mankwa.

Inzu batangiye kubaka bari kubabakisha amatafari asa umweru na sima hasi harasa igitaka imbere hari ibyuma bisa umukara hari igiti hatambitseho hahagazeho umuntu ari kubaka n'undi akamuhereza amabuye hejuru hari icyapa gisa umukara cyandikishijeho inyuguti zisa umukara hirya y'aho hari ibiti bisa icyatsi n'ibyatsi bibisa icyatsi.

Inyubako nziza cyane isize irangi risa umuhondo n'ubururu, yubakishije amabati asa umutuku, hejuru hariho icyapa gisa umukara, cyandikishijeho mu nyuguti zisa umweru. Hasi hari ibyuma bikije iyi nyubako bisa umukara n'umutuku.

Inzu isize irangi risa umuhondo n'umweru, hasi hariho amakaro asa umweru, ifite inzugi ziriho umweru n'umukara, imbere hariho ubutaka bwijimye, hejuru hariho insinga zisa umukara, imbere y'iyi nzu hariho icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa umukara.

Inyubako nziza cyane size irangi risa umuhondo n'umukara n'umweru, ifite amadirishya asa umweru, amakaro asa umweru; hakurya hari ibicu bisa ubururu n'umweru, biragaragara ko ari ku manywa. Umuhanda wubakishije amatafari asa shokora, imbere hari icyapa gisa umweru cyandikishije inyuguti zisa umukara.

Inyubako nziza cyane ifite irangi risa move n'umuhondo n'umweru, ikikijwe n'ibyuma bisa icyatsi, ifite amabati asa umutuku, imbere hariho amabuye asa shokora n'indabyo zisa umuhondo n'icyatsi, hejuru hari icyapa gisa umukara, cyandikishije mu nyuguti zisa icyatsi.

Inzu isize irangi risa umuhondo n'umukara ifite amadirishya asa umweru n'umukara hasi hari ubusitani bwiza cyane ubusa icyatsi hejuru hari icyapa gisa umweruru cyakishe mu nyuguti zisa umukara hariho n'akaranganeko k'akadarapo gasa umuhondo n'umweru n'ubururu.

Inyubako nziza cyane isize irangi risa umweru n'umuhondo, hejuru hari ibyuma biyitangiye bisa umukara, hasi hari n'bindi byuma biyitangije bisa umweru n'umukara. Hasi hari amakaro asa umweru, hari kugendamo umugabo yambaye ipantaro yijimye n'inkweto z'umukara, n'ikoti risa umukara n'umupira usa umweru. Imbere y'uyu mugabo hari amabuye asa shokora, hirya hari n'ibyatsi byiza cyane bisa icyatsi.

Inyubako nziza cyane ifite irangi risa umuhondo n'umutuku n'amabati asa umuhondo, hejuru hari ibicu bisa umweru n'ubururu biragaragara ko ari ku manywa, ikikijwe n'amabuye asa umweru n'umukara, imbere hari icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa umukara, biragaragara ko iyi nzu igurishwa.

Inyubako nziza cyane ifite irangi risa umweru, ifite inzugi zisa umukara, ifite n'amabuye ahakikije asa shokora, mo imbere hari amatafari asa shokora, imbere hari inyuguti zandikishije mu ibara risa umweru.

Umuhanda usa shokora, ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umuhondo, hirya hari indabyo nziza cyane zisa icyatsi n'umweru, imbere y'izi ndabyo hari inyubako nziza cyane ifite irangi risa umweru, umuhondo n'umutuku.

Inyubako nziza cyane si irangi risu umukara n'umuhondo n'umweru itangijwe n'ibyuma bisa umukara hasi hari amakaro asa umweru hanze hari amabuye asa shokura biragaragara ko bwije cyane hejuru hari icyapa gisa icyatsi cyandikishije mu nyuguti zisa n'umukara.

Umuntu wambaye ishati isa umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto zisa umukara, inyuma ye hari inzu isize irangi risa umweru n'icyatsi n'umutuku, hejuru hariho n'amabati asa umutuku, hasi hari amakaro asa umweru n'ibyuma bitangirije iyi nzu bisa umukara.

Inyubako nini cyane isize irangi risa umuhondo n'umweru, itangijwe nibyuma bisa umukara, ifite n'igipangu gisa shokora, hirya yaho harasa umutuku, hasi hari umuhanda w'igitaka uhari.

Inyubako nziza cyane ifite irangi risa umuhondo, n'umweru, n'umukara, ikikijwe n'ibyuma bisa umukara, impande y'ibyuma hagiye hariho indabyo nziza zisa icyatsi, hasi hariho n'amatara ari kwaka umuhondo, hirya hariho n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, hasi hari n'amakaro asa umweru.

Inyubako nziza cyane ifite ibara risa umweru n'amakaro asa umweru, hejuru handikishije inyuguti zisa umuhondo, hasi handitseho nimero nazo zanandikishije ibara risa umuhondo, amadirishya asa umukara n'ibyuma bihakikije bisa umukara na shokora.

Inyubako nziza cyane ifite irangi risa ubururu n'umweru, hejuru hariho ibigega bisa umukara bitangirijwe n'ibyuma bisa umukara, hasi hariho ubutaka busa shokora n'amakarasa umweru, hirya hari ibiti byinshi bisa icyatsi, imbere hari akapa gasa umweru kandikishije mu nyuguti zisa umukara.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibiringa, ibiseke, ibitambaro n'abantu baje kubihaha, biragaragara ko hano hacuruzwa ibintu by'abageni, hari ibisa umutuku n'umukara n'umweru.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, hasi hari amakaro asa umweru, hejuru hari amatara ari kwaka umweru, hariho na parafo zisa umweru, hasi hari ameza ahagazeho abantu asa umutuku, hirya hari ibicuruzwa, hari imigati, hari ama ji, hari amasukari, hari amandazi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amaronji, harimo imineke, harimo kokombure, harimo voka, harimo ibitunguru, harimo puwaro, harimo karoti, harimo ibirayi, harimo imyungu, hariho hejuru n'ahantu hasa umuhondo n'irangi risa umweru.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye. Harimo amata, amasukari, imyunyu, amaji, amasabune, yawurute, imigati, harimo n'abantu benshi batandukanye baje guhaha. Hari umugore ufite imisatsi y'umukara wambaye ikanzu isa umuhondo n'agashakoshi gasa umukara, harimo n'umugore wambaye ikanzu iciyemo uturongo tw'umweru yambaye agapfukamunwa gasa ubururu. Biragaragara ko avuye guhaha ateruye akantu karimo ibyo yaguze.

Inyubako nziza cyane ifite amadirishya asa ubururu, isize irangi risa umweru n'umuhondo, hakurya hari ibicu bisa umweru n'ubururu, biragaragara ko ari ku manywa, hasi hari umuhanda usa umukara ukikijwe n'amabuye asa umweru, haparitseho imodoka ifite amapine asa umukara nayo isa umweru, ruguru hari igiti gisa icyatsi.

Umugore wambaye ikanzu isa umutuku afite n' imisatsi isa umukara afashe telefone mu ntoki inyuma ye hari inzu isizira irangi ubururu n'umweru hejuru yininzara hari icyapa gisi umukara cyakishe inyuguti zisa ubururu n'umweru hashushanyijeho abantu babiri n'abana babiri hasi hariho amakaro asa umweru n'ibyatsi biri inyuma yiiyi nzu bisa icyatsi.

Abantu benshi batandukanye biragaragara ko baje nko gufana ku kibuga, inyuma hari abantu bicaye bafite imitaka, imbere hari icyapa gisa umweru cyandikishijeho inyuguti zisa ubururu n'icyatsi.

Abantu babiri bamwenyuye bishimye cyane, umwe yambaye ishati isa umweru yambaye n'isaha, n'undi yambaye amadarubindi n'ikiringa k'ugutwi n'umupira usa ubururu, inyuma yabo hari icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa umukara.

Abantu benshi batandukanye bicaye, bafashe udupapuro mu ntoki dusa umuhondo, biragaragara ko ari mituweli z'abana kuko hariho n'udufoto, hari umudamu witeze igitambaro gisa icyatsi, uwiteze igitambaro gisa umutuku, uwiteze igisa umweru, n'uwiteze icyijimye.

Akabati gasa umweru, gapanzeho:ji, amazi, biswi, omo, amakaroni, umuceri n'amandazi .Hejuru hariho amakarito asa shokora, na purafo zisa umweru, hasi hari amakaro asa umweru.

idukarimo ibicuruza bitandukanye harimo umuceri harimo amavuta harimo isukari harimo isabune harimomu n'ibindi bicuruzwa bitandukanye ahagazeho umugabo wambaye umubyusa umuhondo afashe telefoni mutoki yambaye nipanmesi umukara hari umugore ufite agap yahahiyemo uri kumwenyura cyane yishimye Iduka rimo ibicuruza bitandukanye, harimo umuceri, harimo amavuta, harimo isukari, harimo isabune, harimo omo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye. Ahagazeho umugabo wambaye umubyusa umuhondo afashe telefoni mu tuki, yambaye n'ipantalo umukara. Hari umugore ufite agapaniye yahahiyemo, uri kumwenyura cyane, yishimye.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imineke, harimo intoryi, harimo karoti, harimo amagi, harimo imyembe, harimo voka, harimo ibitunguru, harimo n'amavuta n'ibindi bitandukanye, hasi hari amakaro asa umweruru, hejuru harasa icyatsi n'umutuku.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye ji, amata, isukari, amazi, umuceri, umunyu, n'isabune; hasi hari amakaro asa umweru; hari umuntu ufashe agacupa gasa umutuku; asize inzara umutuku.

Imineke, inanasi, ibishyimbo, ubunyobwa, imigati, biswi, fanta, hirya hariho n'urukuta rusa umweru, hano hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye.